Umuganga umubyeyi ndetse n'umwana bahuriye mu cyumba cyo kwa muganga arikokora igikorwa cyo guhabwa urukingo cyangwa umuti kuri uwo mwana umubyeyi ariwutereye uwo mwana muganga wambaye ikabwa y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'umvarocaye ku ntebe harimo n'ibiindikoresho byo kwa muganga bifashishwa muri serivisi zo kwa muganga,

Ababyeyi bambaye imipira y'umweru ndetse n'imipira y'ubururu bateraniye, aho bafite igipapuro cyangwa icyapa kimenyekanisha ko wari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri , aho bihaye intego igira iti, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Umugabo wizihiwe uri gukaraba kuri kandagira ukarabe ikozwe mu kajerekani k'amaritiro atanu, ikozwe mu biti, ibiti bitatu, bibiri bishingwa kimwe kigatambikwa ndetse ikindi kikazirikwaho umugozi wifashishwa mu gukurura ayo mazi agasohoka muri ako kajerekani.

Umubyeyi, umwana, umuganga wambaye ikanzu y'umweru bagaragara bizehiwe baha umwana umuti mu gacupa k'umweru. Umuganga wambaye ibikomo by'umweru, umubyeyi wambaye ibitenge afite umusatsi wirabura bose akaba ari abirabura, mu ruhu rw'irabura.

Umubyeyi uri gukorera isuku umwana we ku mugezi n'abandi bana bari gukaraba, bari gukarabira ku mugezi harimo umwana mukuru ari kumwe n'undi mwana mutoya bafite indobo, hari n'undi uri gukarabira mu ndobo ku rundi ruhande rw'umugezi.

Umwana w'umukobwa, wambaye impuzankano y'abanyeshuri irangwa n'ishati y'umuhondo ndetse n'ijipo y'ikijuruju, ari gukaraba muri kandagira ukarabe aho yateze ibiganza bye hejuru y'agasahani k'icyuma, ariho amazi ari gushokera.

Mutoya afite ikivomesho cy'umuhondo nawe yambaye imyenda y'umuhondo, uvoma amazi mu kiyaga cyangwa mu mugezi akoresheje uburyo bwo kudubika ijerekani cyangwa ikivomesho cye mu mugezi kugeza cyuzuye.

Abantu baturirutse impande n'impande bateraniye mu nama, bakikije ameza bafite amazi bari kunywa abateretse imbere ari mu ducupa twabo, akaba bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ameza y'ibara ry'umukara.

Umwana w'umuhungu wishimiye gukaraba ku iriba ku mazi meza ari gusohoka mu itiyo, umwana urigukaraba amazi mu mutwe ndetse akoresheje ibiganza bye, umwana w'umwirabura ufite imisatsi y'injwiri ndetse wambaye n'imyenda isanzwe.

Nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika Jeannette Kagame, apima uruhinja ibijyanye n'uburebure, ari kumwe n'abakozi bashinzwe iby'ubuzima bambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse harimo n'abambaye udupira tw'ubururu nabo ndetse n'amataburiya y'umweru.

Abana bishimiye kuba bari kunywa amazi meza bayakuye ku kigega cyabubakiwe, abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, imipira y'imikara, abana b'abahungu babiri bambaye amakabutura y'imikara, abakobwa bo bakambara amajipo y'ubururu bwerurutse, ni abana bafite igikombe buri wese aho ari kunywa amazi.

Abana batatu b'abanyeshuri bambaye impuzankando z'ishuri z'ibara ry'ubururu n'umuhondo, bishimiye gukaraba amazi meza n'isabune aho bizihiwe bisize urufuro rw'isabune mu ntoki, hari n'amazi afunguye imbere yabo bari gukarabaho.

Abana bambaye imipira y'ubururu ya Unicef, bahagaze bameze nka bari kwifotoza, baseka bategereje ko hari nk'amabwiriza bahabwa, abana bagera ku munani bahagaze ku murongo bafatanye ku ntugu bishimye, bagaragaza akanyamuneza mu maso.

Abana bo mu bigero bitandukanye by'imyaka baterani ihande rw'iriba, bavoma amazi nkogotwa butaka. Aho ameza bayakugurisha ipompo ikurura amazi mu butaka, ikazamura ikayanyuza muri iri ivomero. Umwe ari kuvoma akoresheje akajerekani cyangwa akavomesho k'amacupa atanu.

Imbonerahamwe yerekana ibice bitandukanye by'indwara zo mu mutwe, berekana uburyo zivurwamo indwara rusange n'uburyo zivurwamo, indwara zishingiye ku mibonano mpuzabitsina, uburyo zivurwamo n'uburyo zirindwamo hakoreshejwe ibinini, udukingirizo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu nzu igororerwamo imitsi, irimo intebe ziteye nk'ibitanda zifashishwa mu kugorora imitsi cyane cyane y'umugongo ndetse n'amaguru. N'ijosi mu rwego rwo gutuma bikomera bikamera neza.

Umugabo mukuru wishimye wizihiwe ari gusuzanya n'umwana muto cyane, aho bari guhana ibiganza by'iburyo, umugabo wambaye umupira wo mu ibara ry'umuhondo n'ipantaro yo mu ibara ry'ubururu, naho umwana akaba yambaye umupira w'ishati y'umweru irimo imirongo y'ubururu itambitse.

Amazi meza ari kuvomwa n'umuntu mukuru, abana babiri uwambaye umupira w'umutuku usa nk'uri kumwenyura, umubyeyi wambaye umwenda w'umweru na we uri kumwenyura yishimiye kuvoma amazi meza, umwana wambaye umwenda w'umukara witegereza uko amazi avomwa.

Abantu babiri bahagaze imbere y'akameza gateretseho ibikoresho runaka umumama ndetse n'umupapa, umupapa wambaye ijiri y'umukara, umubyeyi wambaye umupira cyangwa ishati y'icyatsi, ufite imisatsi miremire ndetse n'amaherena n'isaha by'umweru.

Itsinda ry'abantu bateraniye imbere y'ibitaro bafata ifoto y'urwibutso ni itsinda rya'bantu bagaragara ko ari abakozi muri serivisi z'ubuzima barimo abambaye amataburiya y'mweru ndetse n'abambaye amataburiya y'bururu n'amapantaro y'ubururu.

Ibirango by'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku gutera inkunga uburezi abana bato berekana ko ihari kubwa buri mwana wese wo ku isi, ibirango biri mu ibara ry'ubururu mu nyuguti z'umweru.

Abakozi bo kwa muganga bari kwitegereza imashini yo kwa muganga ibara ibipimo byo mu mubiri nk'umurwayi bambaye imyenda y'icyatsi bari mu cyumba cyo kwa muganga kirimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, birimo amamashini yifashishwa mu buvuzi.

Umukobwa mukuru uri kumwe n'umwana muto, ari kuvoma amazi ku kagezi gatemba, aho bifashishije ikivovo kugira ngo babashe gukusanyiriza amazi mu kivomesho cyabo gisa umuhondo n'ijerekani mu kagezi gakomeza gatemba.

Ikigega cyangwa icyuzi gikoreshwa mu gusukura amazi gikoze mu ishusho y'uruziga, aho amazi azenguruka akikijwe n'ibidukikije birimo utunyubako duto duto, hariho ibyuma byifashishwa nk'inzira kugira ngo babashe kugera kuri icyo cyuzi neza.

Umuganga ari gutanga imiti ku mundwayi cyangwa ku muntu wo mu zabukuru. Afite umuntu uri kumufasha kumuhereza iyo miti; inyuma ye hari umukozi wambaye utugarurarumuri tw'icyatsi. Ndetse muganga yambaye umwenda w'umweruru n'uturindantoki tw'umweru.

Umwana wishimiye kuvoma amazi meza aho ari kuyakaraba akayizihirwa. Hari amajerekani n'ibivomesho bitandukanye, mu ngano zitandukanye, icy'umuhondo icy'ubururu; ni ahantu hagaragara ko ari ku iriba.

Umubyeyi waje gukingiza umwana we umwana we urikurikizwa n'urushinge muganga agiye kumutera muganga wambaye uturindantoki tw'umweru, itaburiya y'umweru ndetse ari kumwe n'umubyeyi wambaye igitenge kirimo amabara menshi yiganjemo umutuku n'umweru.

Umwana bigaragara ko afite uburakari, afashwe bikomeye n'abantu bakuru bafite ndetse n'inkoni, harimo umugabo ndetse n'umugore umufashe mu mpande zombi umwe iburyo undi ibumoso.

Igishushanyo mbonera cyifashishwa mu kwiga uburyo imitsi y'ubwonko ikoramo, uburyo amakuru ava ku mubiri akagera ku bwonko n'uburyo ubwonko buteyemo ndetse n'ibice by'ubwonko mu mutwe w'umuntu.

Ivuriro rito ryimukanwa rigendera mu modoka ryazanywe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima, ryaje gufasha abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho bari kuganiriza abantu bicaye mu busitani bwateguwe, bakaganiriza buri muntu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bikabafasha koroherezwa mu bibazo byabo bafite.

Umugabo wambaye umpira w'umutuku n'agapfukawa k'ubururu, ari kwandika ku kibaho asobanurira abantu ikibaho gikozwe mu mbaho urupapuro rwabugenewe kwandikaho, inyuma ye hari icyapa cyerekana ideraporo rya Amerika, ibendera ry'u Burundi ndetse n'ababyeyi bahetse abana ndetse bateze amatwi bamukurikira.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyenda ishaje ndetse yanacitse, ufite ibishishwa by'imeke mu ntoki, ufite igikapu cy'icyatsi, imisatsi idasokoza bigaragara ko na we adaheruka kwikorera isuku.

Umukecuru umuntu mu zabukuru watoraguye amacupa n'amashashi n'ibyatsi bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'indwara yibasira ubwonko akikijwe inyuma hari abantu bicaye ku ibuye mu isantere ahantu bigaragara ko hahurira abantu benshi.

Umubyeyi uteruye umwana muto n'undi umwicaye iruhande, bicaye kumukeka, usambi aho bari gutoranya imbuto cyangwa gukura imyanda mu mbuto zisa nka soya cyangwa impungure z'ibigori.

Itsinda ry'abantu rirateranye riri kumva ubutumwa bwa mugenzi wabo aho ari kubaganiriza kuri gahunda yari yabateguriye yambaye umwenda w'ubururu ari kumwe na bagenzi be bambaye akajiri k'umweru ndetse n'agapira k'umweru bari kuganiriza abaturage kuri serivisi nyinshi z'ubuzima.

Umwari wambaye inkweto za kambambiri, wicaye munsi y'igiti ameze nk'uwihebye ku gasambi, akagaragaza nk'umuntu ufite agahinda ariko uri kwitekerezaho bikomeye cyane.

Igishushanyo mbonera cyerekana uburyo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe zitangwa mu Rwanda, uturutse ku muturage hasi kugera ku bigo nderabuzima, ku bitaro by'akarere, ibitaro by'intara ndetse no ku bitaro byihariye byateguriwe kwakira abarwayi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganga asobanurira umuntu uburyo bwo koza amenyo ukoresheje urudodo aho bafata urudodo bakarunyuza hagati y'amenyo bagakura imyanda hagati iba yasizwemo n'uburoso butabasha kuhagera, mu buryo bwiza bugabanya indwara zo mu kanwa.

Umukobwa w'umwirabura, ari kwifashisha urudodo mu gukura imyanda hagati y'amenyo, imyanda iba ihagaze hagati y'amenyo, akoresha urudodo arukurura aruzengurutsa impande n'impande, anyuza muri ya myanya iba iri hagati y'amenyo, gukuramo imyanda iba yasigayemo.

Uburanga bw'agahebuzo bugaragara ku mukobwa useka neza, ufite amenyo y'umweru amezeze neza, uruhu rw'irabura rusukuye rusize amavuta asukuye ameze neza, useka neza, amaso y'umweru, ibara ry'umukara y'imboni ye.

Umuhanga, impuguke mu by'amenyo yambaye udupfukantoki, ndetse afite n'udukoresho twabugenewe mu kuvura indwara zo mu kanwa; aho afite igishushanyo mbonera cyo mu kanwa, mu kwerekana uburyo indwara zo mu kanwa n'amenyo muri rusange, zivurwamo cyangwa zirindwamo.

Umugabo uhagaze imbere y'ikirahure, iba ari indorerwamo ndetse n'ubwogero aho agerageza gufata umuti ngo yoze amenyo, iruhande rwe hari uburoso bw'amenyo, hakaba n'indi miti yifashishwa mu isuku yaba iy'intoki ndetse n'iyo mu kanwa.

Ibikoresho byo kwa muganga biri kumwe n'imashini zikoreshwa ikoranabuhanga, zikoreshwa basuzuma kwa muganga, hari intebe, ibitanda ndetse na mudasobwa yifashishwa mu isuzuma rikorerwa kwa muganga, mu nyubako ifite amadirishya y'umweru maremare na yo ikaba isize irangi ry'umweru.

Abana bambaye imyenda y'icyatsi mu birango bya tubiteho bahawe uburoso ndetse n'imiti y'amenyo, bibafasha gukora isuku yo mu kanwa, bibagabanyiriza ibyago byo kwandura indwara zo mu kanwa ndetse bakanazikingira hakiri kare.

Umukozi mu bitaro byo kwa muganga atwereka mu cyumba cya ba hamezezen yambaye ikanzu y'umweruro n'ikaramu y'ubururu ku mufuka we igikoresho cyo kwa muganga biririmo intebe zifashishwa mu buvuzi bw'imitsi ndetse utubati n'ibindi bikoresho byo kwa muganga biri mu cyumba yicayemo.

Igishushanyobonera cyifashishwa mu kwiga ubuvuzi bwo mu kanwa, kiri gukoreshwa n'abahanga mu by'amenyo ari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gukura amenyo, hari n'amakarita ndetse n'utundi dukoresho two kwa muganga ndetse n'amasaha bambaye akaboko.

Ni icyumba cy'ubuvuzi kwa muganga abaganga bakoresha ibikoresho bitandukanye birimo inshinge, atumakasi, uturoso, bambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu bari kuvura umurwayi bari kumwambika agakoresho ku munwa ko gufata imyanda ishobora kuva mu kanwa ke mu gihe bari kumuvura.

Umuganga wambaye udukoresho twabugenewe turimo udupfukamunwa ndetse amataratara ariho udutoroshi duto tubiri twifashishwa mu kumurika mu kanwa kugira abashe gusuzuma umurwayi akoresheje agakoresho kabugenewe.

Umusore w'umwirabura arigukoresha uburyo bwo gukura imyanda mu menyo bakoresheje urudodo aho ufata urudodo ukarunyuza hagati y'amenyo yawe ugakura imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo uburoso bw'amenyo buba butabashije gukuramo.

Imiterere y'amenyo igaragazwa n'imashini zifata ibipimo by'imbere mu mubiri byo kwa muganga, bigaragara uko amenyo aba ateye ndetse n'aho aturuka n'imitsi yayo aho igiye inyuze hose.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buzima, intebe, ameza, mudasobwa ibipimo byifashishwa mu gusuzuma abantu ingingo ndetse banahavurira abantu ibijyanye n'inkingo mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ibitanda intebe ndetse n'imashini zo kwa muganga zifashishwa mu isuzuma ry'indwara nyinshi zitandukanye biri mu cyumba gifite irangi ry'umweru, harimo ameza intebe zo kwicarwaho, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umu papa uri mu zabukurukuru ari kwitabwaho n'umuganga w'umu mama ari mwitaho ari kumuha ibiryo bimufasha kurinda ubuzima bwe birimo imbuto ndetse n'umutobe ukomoka ku mbuto bimufasha kurwanya izindi ndwara zaturuka ku biryo bihumanya.

Igikomo nkoranabuhanga kiri ku kaboko k'ibumoso k'umuntu umwe bigaraga ko ari umwirabura; igikomo kiri mu ibara ry'umukara, bigaragara ko gipima n'ibintu runaka by'ubuzima cyangwa gikoreshwa mu zindi serivisi z'ikoranabuhanga.

Umubyeyi wicaye uri kuboha agatebo akikijwe n'abandi bantu bishimiwe no kumva uburyo akoramo aka gatebo, bari mu busitani burimo ibiti ndetse n'uruzitiro ruriho ibyuma biruzengurutseho.

Umugore n'umugabo bakuru, bari mu zabukuru, bakikijwe n'impapuro, bicaye ku meza akozwe mu biti bazisoma, umagabo afite telefone ye mu kaboko k'ibumoso, yambaye n'impeta ye, n'amataratara, ndetse umugore we nawe yambaye imyenda y'umweru, yambaye n'impeta ye, bakikijwe n'ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, umusaza afashijwe n'umutoza we mu ngororangingo ari kumufasha kugarura intege ze amukoresha utwitozo ngororangingo, amufashe ku kaboko amwerekera uburyo ashobora kugenda atsindagira, umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, umuganga we umufasha mu buzima bwa buri munsi yambaye imyenda y'umukara hose.

Umubyeyi ari gukina udukino n'umwana we amusobanurira utuntu dukora aho ari uburyo bwifashishwa mu gukangura ubwenge bw'abana mu gusobanukirwa no kuvumbura ibintu bishyashya mu cyumba kirimo ameza na televiziyo n'utubati.

Ababyeyi bari mu zabukuru bishimiye gukora siporo ngororamubiri aho batunze amaboko mu cyerekezo kimwe, umwe yambaye umupira w'umukara naho undi yambaye umupira w'umweru ufite ibara ry'umuhondo mu gatuza.

Itsinda ry'abana bato, bishimiye kuba bari kumwe n'umubyeyi wabo mukuru, harimo abateruwe, abicaye mu ntebe ndetse n'abahagaze.

Umugabo uri mu zabukuru ufashe ku gahanga asoma gitabo, hari mudasobwa ndetse n'amakaramu ku meza ye, anambaye ishati y'ikigina ndetse afite agakoresho ke kamufasha kubara igihe.

Umusaza, amazi, isabune, bihurira hamwe bigakora isuku iri gukorerwa kuri uyu musaza wuhagirwa mu mutwe n'intoki, bigaragara ko bombi ari iz'abirabura, hamwe bigaragara ko ari gusukwaho n'amazi mu mutwe.

Umugore ushinzwe gutanga serivisi zo kwita ku bakuze, ari kuyobora umugore ukuze ku gatanda gakozwemo ibyuma kifashishwa mu kugenda bakicumba mu rwego rwo kubafasha gukomera, mu gihe umugore afite igikapu mu ntoki, afite n'ikindi ahetse ku mugongo yambaye imyenda yabugenewe.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umweru ufise amataratara, isaha ari guhabwa urukingo bigaragara ko ruri kumubabaza ku rutugu rwe naho umuganga urimuha yambaye umupira w'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, inyuma ye hari umugabo nawe wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Ni igishushanyo cyerekana igihe byatwara kugirango ngo uve wakura mo inda hagati guturuka ku byumweru cumi na bibiri kugera ku byumweru makumyabiri bagenda basobanura amahirwe aba ahari kugera gukuramo inda bibe byashoboka n'uwabigufashamo.

Icyapa kiri mu ibara rya oranje ku nyuguti z'umweru, zisobanura ibyo kongerera imbaraga ubuvuzi mu Rwanda, kiriho umwari ufite ibikoresho byo kwa muganga birimo udupfukamusatsi, agapfukamunwa ndetse n'agakoresho kifashishwa gupima gutera k'umutima, ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikangurira abantu gufata inkingo za kovide cumi n'icyenda mu rwego rwo kwirinda cyane cyane abana kugira ngo batabare ubuzima bwabo mu gihe kizaza, badusobanurira ko urukingo ari bwo buryo burinzwe kandi bwizewe mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri.

Imenyekanisha cyangwa itangazo ryerekana uburyo wakwirindamo kanseri, ibikorwa wakora mu buryo wakwirinda kanseri uyitewe n'umubyibuho ukabije. Harimo nko kwisuzumisha ukoresha gukora siporo ngororamubiri, n'ibindi bikorwa byinshi biri muri iri menyekanisha.

Umugabo wambaye ingofero bigaragara ko ari iyo mu idini rya isilamu, wambaye agapfukamunwa n'amataratara ndetse n'akagarurarumuri kamuranga nk'umukozi, ari gutanga urukingo ku mugabo wambaye ishati y'ubururu rwa kovidi cumi n'icyenda muri Nigeria.

Urubyiruko rurangajwe imbere n'abayobozi barwo, bafite icyapa cyerekana ko urubyiruko ari rwo hazaza heza h'u Rwanda, bakwiye kwipimisha virusi itera sida bipimishije uyu munsi kugira ngo birinde ibyago byaturuka mu kuba bakwandura virusi itera sida.

Umuntu, umugore ufite umusatsi wirabura n'uruhu rwirabura, wambaye imyenda y'ubururu, uri ku cyapa gisobanura ingaruka z'ibidukikije ku buzima rusange bw'abantu, ubwo biri mu cyapa kiri mu ibara rya oranje, kikaba cyandikishijwe n'inyuguti z'umukara.

Icyumba kigaragara nk'inzu y'ubushakashatsi, aho harimo utubati, ameza, ubukarabiro ndetse n'aho bajugunya imyanda. Ni icyumba gisukuye kirimo za mudasobwa zifashishwa mu gusuzuma ushakashatsi bwabo.

Ibyapa biriho inyuguti b, i,o,n,t,e, c na h zisobanuye Bion tech akaba ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe gukora no gutunganya inkingo kiri imbere y'inyubako ishinzwe kuba ariho iki kigo gikoreramo.

Umwana wambaye umupiramove uhetswe n'umuyonzi wambaye umupira w'ubururu ku igare bahagaze imbere y'icyapa ndetse n'ikigo nderabuzima cyase bigaragara ko kirimo abantu abarwayi ndetseabakora muri izi serivisi z'ubuzima ahongaho.

Umurwayi uri kwisuzumisha, ari gusuzumwa n'itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano y'umweru, ku meza hari imiti yica imyanda, yangiza udukoko duto, hakaba intebe ndetse n'ameza yifashishwa kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo n'ibikoresho byo kwa muganga birimo ibitanda intebe amagaze ndetse harimo umurwayi uryamye ku butanda, ndetse afite amashuka yiganjemo ubururu n'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biriho n'abarwayi kiriho amashuka atambirije yo gutandukanyamba, abaganga bari kwita ku barwayi harimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga birimo amezaintebe ndetse n'utubati tubikomo ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo bikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma abarwayi, harimo amatara atanga urumuri ruhagije kugira ngo abaganga babashe kubona buri kantu kose kari ku murwayi mu gihe baba bari nko kubaga. Hari utubati, ameza, intebe ndetse n'ibikoresho bakoresha babika imyanda.

Icyumba bakoramo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bifasha kugorora ingingo no kongera imbaraga z'umubiri, kongera imbaraga z'imitsi n'ubunini bwayo no kuyigorora kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza no kugira umubiri uteye neza.

Icyumba cyo kwa muganga bakiriramo abarwayi, aho abaganga bashinzwe kwita ku bagwayi barimo, bambaye imyenda y'icyatsi, ibyumba byiza cyane birimo ibitanda, ameza, mutubati n'inzitiramibu ndetse n'amadirisha yinjizamo urumuri.

Inyubako nziza igaragara ikaba ari ikigo nderabuzima cya kinyinya, kigaragaraho idarapo ry'u Rwanda mu mabara yaryo y'ubururu , umuhondo n'icyatsi, inyubako ndende iri mu burara ry'umweru ndetse n'isakaro ry'ubururu, inyubako igeretse inshuro imwe gusa ifite ubusitani bwiza cyane.

Ibikoresho byo kwa muganga bifise amabara atandukanye ye biherereye mu cyumba kimwe gifite amarangi y'umweru, harimo za mudasobwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu isuzuma ryo kwa muganga, harimo ibifite amabara y'umukara n'ibifite amabara y'umweru akaba ari nabyo byinshi.

Amacupa abiri manini y'ubururu abika umwuka wifashishwa kwa muganga arateretse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutunganya uyu mwuka ndetse no gutuma utangirika. Hari ibikoresho by'amashanyarazi mu cyumba kigari cy'umweru.

Ibitanda bine byo kwa muganga bifite ama matera abisasheho ndetse n'amashuka y'icyatsi, utubati tw'ubururu ndetse n'umweru tubikikije, iruhande hari amadirishya agaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga.

Umuntu wunamye wambaye umupira w'ubururu, yunamye imbere y'igikuta cy'inyubako yanditseho Rwanda Cancer Center, inyubako isa n'ibara ry'umutuku, iruhande rwayo hari igiti, hateye n'indabo imbere mu busitani bwaho.

Inzu ikorerwamo siporo ngororamubiri irimo ibyuma ifite udupine turiho ibiro baterura kugira ngo bongere imbaraga z'umubiri ndetse n'ubunini bw'imitsi, harimo n'ibindi bifashisha mu kugorora amaguru ndetse n'amaboko.

Umugabo uri kwa muganga yishimiye igikorwa cy'ubugiraneza ari gukora cyo gutanga amaraso, aho hari ibikoresho byo kwa muganga bishinzwe kumukura amaraso mu kuboko kwe, ubwo harimo imiyoboro ndetse n'imashini ziyakusanya mu kantu kabugenewe.

Mu cyumba cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bamwe bari ku murongo aho bakurikiranye bagana ku kameza kariho umuntu uri kubakira hariho n'undi wicaye mu kagare kabafite ubumuga usa nk'aho ariwe uri guhabwa serivisi mu cyumba kirimo ibikoresho byo mu nzu birimo intebe ndetse n'ameza.

Inyubako nziza cyane igaragara nk'aho ari kwa muganga kuko hagaragaramo ibitanga byo kwa muganga ndetse n'amagambo amwe akoreshwa kwa muganga nka masi, ibara riza ry'umweru, igisenge cyiza gisize ibara ry'umweru nacyo.

Icyumba cyo bakiriramo abarwayi babagana ku bwinjiriro bw'ibitaro, aho hagaragaramo intebe bategerezaho, ameza ariho imitako nk'indabo ndetse n'izindi ziteye mu turima twabugenewe, abakozi b'ibitaro bashinzwe kwakira abarwayi ndetse n'umurwayi wambaye ingofero uri gusobanura bakaba bari kumwakira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa n'umuganga ndetse n'umurwayi mu gihe bari gukora isuzuma cyangwa ubuvuzi, kigaragaramo mudasobwa, amamashini atandukanye, utubati matela ndetse n'imiti.

Mu nzu y'ubushakashatsi irimo abasore babiri n'abakobwa babiri barimo bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye aho bategereje ibisubizo byabo harimo ibindi bikoresho byo muri laboratware birimo nk'amacupa ndetse bambaye n'udupfukantoki tw'ubururu.

Icyumba cy'uruganiriro rwo kwa muganga kirimo ibishushanyo ku bikuta bigaragaza ibintu by'inyamaswa kiri mu cyumba gisizwe irangi ry'umweru harimo intebe, ameza ndetse n'intebe z'imisego.

Umwari akaba ari muri siporo ngororamubiri, aho yafashe umugongo we awegamiza ku itapi cyangwa ku mukeka, ashyira ukuguru kwe kw'iburyo mu kirere, arigorora kugira ngo agorore imitsi yo mu matako, mu ivi ndetse no mu birenge, yo mu kuguru kwe.

Icupa mu ry'umweru riteye mu buryo budasanzwe rifite ibirango by'umukara zerekana ko harimo ibintu bifasha guhagarika cyangwa kugabanya uburibwe iri cupa aho imiti ikurwamo bayipurije bakayipuriza ahantu bari kuvura.

Kunywa amazi nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwiza cyane cyane ku bakora siporo ngororamubiri, umusore ukora siporo ngororamubiri ari kunywa amazi akoresheje icupa, ari kunywa kugira ngo byongerere imbaraga umubiri we wari wacitse intege mu gihe yakoraga siporo bigaragazwa n'umupira ndetse n'ibyuya yabize.

Metero icyuma gikoreshwa muri siporo ngororamubiri, imbuto zirimo pome hamwe n'icupa ry'amazi rifite umufuduko w'ubururu bigaragazwa nk'ibikoresho umuntu yakwifashisha akora siporo ndetse agakoresha indyo yuzuye irimo imbuto akanywa n'amazi meza, bikamufasha kugira ubuzima bwiza akaba yakura kongera igihagararo.

Umuganga ari gukoresha uburyo bwo kuvura imikaya cyangwa imitsi yo mu itako no mu ivi ry'umurwayi we wapfunitse, aho yamuziritse udutambaro twabugenewe mu ivi ndetse no mu itako.

Igikoresho kifashishwa mu bugororangingo gifite amabara y'umuhondo, ubururu n'umweru hifashishwa mu kugorora ingingo, cyane cyane gishyirwa mu ijosi mu gihe habayeho guhinduka kw'imitsi ifashe iryo josi cyangwa kuvunika kwaryo kw'ibikanu niho bakoresha kano gakoresho.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru w'abanyamerika, aho akora siporo mu zabugenewe agororwa n'umutoza we, bataruye umupira wabugenewe bakina uwo mukino, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ibiganza hafite ikaramu mu ntoki biri kwandika ku rupapuro metero, isaha, n'udukoresho twifashishwa kwa muganga n'utundi bifashisha bakora siporo ngororamubiri, imbuto, amazi ndetse na tuyesume bifashi bahinagura ibyuya ibyerekana uruhurane rw'ibikoresho n'ibibikenerwa n'umuntu kugira ngo akore siporo bigire ingaruka nziza ku buzima bwe.

Umukozi cyangwa umukinnyi wa siporo ngororamubiri, aha ari gusunika ibyuma biremereye, hari n'umugozi umukurura, yambaye inkweto zabugenewe muri siporo kugira ngo yirinde ubunyeri, hari ikabutura ndetse n'agapira yambaye bimworohereza, gushora ibyuya mu mubiri.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu afite ikizingo k'insinga cy'umutuku ari kugihereza mugenzi we nawe ufite ikindi kizigo cya musinga mugaze ku rwego ku ngazi imufasha gukora hejuru bitamugoye bahagaze imbere y'ibitaro byitiriwe umwami Fayisari

Umuntu uri gukora siporo ngororamubiri, wambaye agakomo nkoranabuhanga ku kaboko ke k'iburyo, ukora siporo, aho yifashe ku kirenge, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara hamwe na agasengere k'umukara.

Umusore bigaragara ko arembejwe n'ubuzima, aryamye hasi ku mukeka w'ubururu aho agaragiwe n'abandi basore bane bagerageza kumukorera ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bumufashe kugaruka mu buzima.

Umupapa; umugabo wambaye imyenda ya siporo igaragazwa n'umupira w'umukara ndetse n'ipantaro yambaye aterura ibyuma ari guterura ibyuma biremereye kugira ngo bimufashe kongera ubunini bw'imitsi ye binamufashe kugira ubuzima bwiza.

Amazi ari kubuganizwa mu kirahure bakoresheje ijaga yabigenewe, aho amazi meza asukuye ari gukurwa mu ijage nini agashyirwa mu kirahure kugira ngo akoreshwe mu kuba yanyobwa, cyangwa ibindi. Amazi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu aho ayifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo ibiti, binini, uturindantoki, impakasi ndetse na twa dutambaro bakoresha bahanagura turi hamwe mu gikapu gifunguye kiri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo umukinnyi cyangwa undi muntu ukora siporo ngoramubiri ufite imitsi minini bigaragara ko yakoze imyitozo ihagije mu kunywa amazi akoresheje agacupa gafite umufuniko w'umukara ayasuka mu kanwa ke.

Umugabo uri gukora siporo ngororamubiri aho yafashe akaboko ke k'ibumoso akajyanisha n'akaguru k'ibumoso, akaguru ke kandi k'iburyo agashyira akigeza imbere karinganira n'akaboko ke k'ibumoso akora siporo ngororamubiri zimufasha kugorora imitsi y'amaguru ndetse n'uruti rw'umugongo.

Imashini yifashishwa mu kureba ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu, harimo nko mu mutwe ndetse n'amagufa, yifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvumbura indwara zihishe mu mubiri w'umuntu, igaragara mu cyumba cyo kwa muganga gisize ibara ry'umweru.

Ikiganza, gifashe icupa ry'amazi meza, ari mu icupa ry'umweru, ndetse rifite umufuniko w'ubururu. Amazi mu buzima, tuyifashisha mu gukora, gahunda zacu za buri munsi, tuyanywa, tuyakoresha ibyo aribyo byose, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Agakarito kifashishwa n'abaganga batwara imiti, harimo imiti ndetse n'amavuta byifashishwa mu kuvura ibikomere cyangwa no kugorora imitsi, harimo n'ibinini, amasizo, n'ibikoresho muri rusange byifashishwa mu buvuzi rusange.

Udutambaro twifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, bahambira ibice by'ingingo byabo kugira ngo bitangirika cyangwa mu gihe byavunitse kugira amagufa yabo akomeze kwegerana, turi n'ikarito y'umuhondo ifite ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo yo mu ndimi z'amahanga.

Abasore bane bari gukora siporo ngororamubiri cyane cyane siporo yo kwirukanka bari kuyikorera mu kibuga kirimo imirongo igoroye ibereka inzira yo kunyurwamo aho uw'imbere yashyizweho utumenyetso tumwereka ko afite umuvuduko ari kwirukanka, berekana ibice biba bibabara birimo ivi inkokora, akagombambari ndetse no mu kaboko.

Icupa ry'umweru rifite ibirango bya move ririmo umuti wifashishwa mu kugabanya uburibwe, bakoresha bapuriza mu ngingo cyangwa ku mugongo, ndetse no kugabanya ububabare buterwa no kubabara kw'imitsi mu kuvura ingingo.

Umuganga ushinzwe kugorora imitsi, ari kugorora imitsi n'amagufa byo mu ivi by'umukinnyi cyangwa undi muntu ukora imyitozo ngororamubiri, aho ari gufata akaguru ke akakagorora ahiniye mu ivi, agakanda kugeza igihe imitsi ye iruhukiye.

Imiti gakondo itunganyijwe mu buryo bugezweho harimo nk'icyayi cy'icyatsi, imbuto zirimo imineke ndetse inanasi zitunganijwe zigakorwa zigashyirwa ahantu ku buryo zifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zinorohereza abantu kugira ubuzima bwiza bitabahenze.

Itsinda ry'ibimera, biri mu gisambu, bigaragara ko ari ibiti birebire ndetse hari n'inzuzi zirandaramba hasi ku butaka, ziri mu gisambu, zishobora kwifashishwamo gukora cyangwa gutunganya imiti yakwifashishwa mu kuvura indwara runaka.

Abacuruzi ndetse n'abakiriya babo b'imiti gakondo miti itandukanye yo mu ngano zitandukanye mu mabara atandukanye y'amacupa n'ibyo akoreshwa bitandukanyeyinshi y'ingeri zitandukanye umucuruzi yambaye agatambaro k'umweruru mu mutwe ndetse n'akamuranga mu ijosi umukiriya we ni umugabo yambaye umukandara, ipantaro n'ishati.

Imiti gakondo itunganijwe mu buryo bwa kijyambere, ikusanyijwe mu ducupa tw'umweru, dufite ibirango by'icyatsi, biriho amashusho yerekana igikakarubamba, nki kimwe mu bigize ibyo iyi miti ikozwemo. Igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu n'ibindi byinshi cyane.

Icyapa cyerekana umuganga gakondo n'imiti ye, imiti ye iri mu ibara ry'umweru, ndetse ifite imifuniko y'umuhondo ndetse n'icyatsi, yerekana ko akangurira abantu gukoresha imiti hakiri kare, aho kugira ngo imiti izahinduke ibiryo by'abo, nyuma y'uko bamaze kwandura izo ndwara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite icupa ririmo ibintu by'umuhondo bishokora imiti gakondo, akikijwe n'udutuzingo tw'ibiti ndetse n'utudobo tugiye turimo ibintu bitandukanye ndetse n'umufuka wirambuye imbere inyuma ye hari amacupa menshi arimo iy'ibyoyo bintu bishobora kuba imiti gakondo.

Imiti gakondo itandukanye, iri mu macupa atandukanye, amacupa y'umuhondo, umweru, ifite ibirango by'icyatsi, biriho icyatsi k'igikakarubamba cyane tuzi ko kifashishwa mu miti gakondo, bavura indwara zitandukanye zaba iz'urusobe ndetse n'ibyorezo.

Icupa ritukura ririmo umuti cyangwa ikinyobwa cyongerera abantu imbaraga mu gihe bari gukora imirimo runaka ni ikinyobwa gifasha abantu kongera imbaraga no kubarinda gucika intege mu gihe bari mu kazi kiva ku bagikoze mu miti gakondo cyangwa mu miti mu byatsi kimeza.

Umuti gakondo witwa umuravumba ufungiye mu icupa ribonerana, rifite umufuniko w'umuhondo, rifite ikirango cyanditsweho umuravumba, akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zirimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi bya kinyarwanda.

Icyapa cyerekana ikirango cy'abantu batunganya imiti bitwa akagera medesinizi batunganya imiti gakondo ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu.

Abantu hatandukanye bari gusoroma ibyatsi bishobora gukoreshwa nk'imiti, imiti gakondo ivura indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora, abamama bambaye ibitenge bitwikiriye umubiri wose kugira batangizwa n'imbeho cyangwa n'udusimba tuba turi muri ibi byatsi.

Gucuruza ibisukika bitandukanye biri mu macupa yo mu ngano zitandukanye, afite n'imifuniko itandukanye, yambaye agatambaro ku mutwe, afite umukiriya w'umugabo. Inyuma hari icyapa cy'ikirango cy'umweru n'inyuguti zandikishijwe ibara ry'icyatsi zerekana numero ya telefone wabahamagaraho.

Ibyatsi bizwi ku izina ry'amatovu biri mu mbuga ahantu aho bizwiho ko byifashishwa mu kuvura indwara z'urusobe zigiye zitandukanye, akaba ari umuti gakondo, bigaragazwa n'indabo zarwo ziriri mu ibara rya move.

Ikimera cyangwa cyatsi kiri mu murima mu isambu, kizwiho kuba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo inkorora, ibicurane ndetse no mu nda, hari kikaba kizwi ku izina ryitwa umuravumba.

Icyatsi kiza gitoshye gifite amababi meza arambuye, kiri kurandaranda gikura. Gishobora kuba cyakwifashishwa bakora imiti gakondo yakwifatishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kwiyitunganya n'ibiganza biri kuyitunganya, bikoresheje agasekuro ndetse n'umuhini wako, uri guhonderwamo uri gusekurirwamo ibyatsi, hari imiti nka tangawizi ndetse n'iyindi y'amoko atandukanye.

Ingemwe z'ibiti cyangwa z'umuti witwa umuravumba ziri mu bihoho, aho zikusanyirijwe hamwe zitegerejwe kujyanwa guterwa mu mirima cyangwa ahabugenewe, kugira ngo zizatunganywemo imiti gakondo.

Imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuyitunganya birimo inkono, isekuro, imihini ikoreshwa mu gusekura hakaba harimo imiti gakondo irimo tangawizi, ibibabi, indimu ndetse n'amafu bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Agashashi kari mu ibara ry'umuhondo, karimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura, iriho ikirango cyerekana ko yakorewe mu Rwanda, ndetse ikaba ifite uburemere busaga garama ijana.

Ibyatsi ndetse n'imbuto bikoreshwa nk'imiti gakondo bitandukanye, birimo ibibabi by'imbuto ndetse n'ibindi byo mu mabara atandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'isesemi.

Itangazo ryamamaza ryerekana icupa ry'ubururu rifite umufunyiko w'umuhondo ririmo imiti ikoreshwa mu gukora amasuku basobanura uburyo yifashishwa mu gukuraho ibintu by'amavuta ndetse n'imyanda, hari na nimero za telefone zakwifashishwa mu guhamagara kugirango uhabwe iri cupa y'imiti.

Amacupa y'umweru ndetse n'umuhondo, arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu bigaragara ko akozwe mu gikakarubamba nk'uko amazina ndetse n'ibirango biriho bibigaragaza, aya mavuta ytifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no kuzirinda.